Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, bicaye ahantu hamwe hari utumeza duteretseho amacupa y'amazi.

Umuntu uri gukaraba intoki, uri gukarabira mu mugezi munini, amazi ari guturuka mu ihombo, umugezi urimo amabuye, iruhande rwaho hari ibyatsi.

Hano ni abantu bahagaze hafi y’ikigega ariko bari kuvoma amazi mu kigega bakanywa.

Abana bambaye ga, bahagaze imbere y'amarobine, abana batatu bambaye imyenda y'ubururu.

Urujya n'uruza rw'abantu bahagaze ahantu hamwe, hambaye udupfukamunwa bateruye bafite ibintu mu ntoki bitandukanye.

Abantu basa nk'abari mu mahugurwa, bari gukomera amashyi umugabo ubahagaze imbere, abo bantu bambaye amataburiya y'ubururu...

abantu bari guha abana amata, bari kuyanywera mu nkongoro abana bicaye hamwe abandi bantu bunamye barikubaha amata inyuma yabo hahagaze abandi bantu.

Ahantu hari ahantu higanjemo abadamu, umugore umwe afashe umwana amuraramishije ari kumuha umuti.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye hamwe ku ntebe ebyiri zitandukanye, imbere yabo hicaye undi muntu, hahagaze abandi bantu babiri.

Abantu bahagaze bafite indobo zishaka kuvoma amazi. Amazi ari kumeneka hasi, ni muntu uri kuyamena.

Umwana uhagaze ufite akabinika hari n'undi wunamye ufite indobo.

Abantu bicaye ahantu hamwe, ku meza yabo hateretseho amazi, amacupa y'amazi, iruhande rwabo hari ibendera ry'igihugu, imbere yabo hicaye undi muntu.

Abantu bari mu nama, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi n'amakayi, imbere yabo hari tereviziyo.

Uno mwana uri kuvomera mu gikombe. Iruhande rwe hari robine ebyiri zifunguye. Yambaye umupira wa orange n'undi mwenda wo hasi w'ubururu. Iruhande rwe hari ibyatsi.

Abana bahagaze kuri robine bari gukaraba intoki.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo kumeza hateretse amacupa y'amazi n'impapuro.

Abana bicaye ahantu hamwe, hari abandi bantu barikubaha amata mu bikombe, iruhande rwabo hari abandi bantu bicaye n'abandi bahagaze.

Ndabona abantu bahagaze ahantu ku nzu yanditseho ngo gira ubuzima, harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru.

Umumama uryamye ku gatanda agaramye aratwite, iruhande rwe hahagaze undi muntu w'umuganga washyize icyumvirizo kunda yu'wo mu mumama utwite ari kumva uko umwana atera munda, cyangwa se ari kumva niba umutima w'umwana utera neza.

Hano ndabona abantu bicaye, bambaye amashati y'ubururu basa nk'abari mu mahugurwa.

Abantu bari kugenda batanga impapuro mu muhanda hari undi umuntu urambuye ikiganza ategereje ko nawe we bamuha urupapuro.

Urabona abantu bahagaze hamwe, inyuma yabo hari inzu yubakishije amategura n'udutafari duto ifite amadirishya abiri.

Abana babiri bahagaze inyuma yabo hari igiti umwe ari gusukira undi amazi mu biganza ari gukaraba ibiganza ari kuyamusukira akoresheje igikombe.

Abantu babiri bafashe umuntu hagati yabo. Yambaye imyenda yacitse. Asa nk'urwaye bamufashe mu maboko.

Umuntu wambaye ingofero afite agatambaro mu ntoki, ari kwihanagura ku maso n'ibiganza bye byombi,

Umuntu wicaye kumukeka uzinze, yicaye imbere y'igiti icyo giti, yambaye umunyururu ku kaguru kamwe, umunyururu uziritse ku giti.

Uyu mwana wambaye umupira w'umweru uri kurira yikoreye amaboko iruhande rwe hari umu mama ufite igiti mu ntoki bari nk'abantu ku isoko.

Umwarimu uri kwigisha umwana uko baborosa amenyo, umwana yambaye umupira w'ubururu, mwarimu yambaye itaburiya y'umweru, inyuma yabo hagaze abandi bantu.

Abantu bari mu mahugurwa imbere yabo hari korogate bisa nkaho bari kwigishwa uburyo bayikoreshamo.

Ndi kubona umuntu bari gupima mu kanwa, muganga ari gupima umuntu mu kanwa, iruhande rwabo hicaye abandi bantu bari kwandika.

Aha ni abantu babiri bicaye, umwe ari akoresha compiyuta undi afite agacupa mu ntoki, imbere yabo ku meza hari ibipapuro na telefone n'utundi ducupa tubiri.

Umusaza n'umukecuru bicaye, umusaza yambaye agapira k'ubururu, umukecuru yambaye ikanzu y'umweru basa nkaho bari gusoma ikinyamakuru.

Umuntu ari gufasha kugenda, ari kugendera mu kantu bifashisha bagenda, muganga ari kumufasha.

Abantu babiri bari mu muhanda umwe ari kumugendesha ahantu hamufasha kugenda. Undi afite igikapu mu ntoki afite n'ikindi ahetse mu mugongo.

Abadamu bakoze umurongo umwe, bambaye imyendaza isa hejuru, bambaye amajipo y'umukara n'imupira yimweru.

Umugabo wicaye mu kagare k'abarwayi, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ari kumutemberaza, bisa nk'aho hari ibyo ari kumusobanurira.

Abaganga bari gupima abantu mu kanwa ,bambaye udupfukamuwa na masike, bambaye imyenda y'ubururu.

Abaganga babiri bahagaze bambaye imyenda y'ubururu na ga z'umweru basa nkaho bari gutera umuntu urushinge.

Umuntu wicaye ku ntebe, hari undi muganga ari kumutera urushinge ku kaboko, umwe yafashe ku nda ngo amurinde kubabara cyangwa gutaka.

Abantu bari bicaye mu cyumba cy'inama, higanjemo abagore. Imbere yabo hahagaze umuntu umwe, bose bambaye hejuru bambaye imyenda y'imyeru.

Umugabo wicaye, iruhande rwe hari agatanda, yambaye itaburiya y'umweru, afashe mu biganza bye byombi, yicaye ahinnye amavi.

Icyumba kirimo agatanda na mudasobwa zifashishwa zireba zirebera umugore utwite uko umwana ameze mu nda.

Kubona umuntu wicaye ateruye umwana muto w'uruhinja, muganga ari kumu kumutera urushinge.

Abantu bicaye hamwe bambaye amataburiya y'umweru, iruhande rwabo ku meza hari igikoresho umuntu akoresha cy'isuku, hari icupa ry'amavuta.

Abantu babiri bambaye amataburiya, bambaye udupfukamunwa bari kwitegereza mu mashini.

Ahantu hasa nkaho ari mucyumba cyabarwayi, gusa kirimo ibitanda byonyine, hashashemo amashuka y'umweru, n'ibitanda bibiri.

Inzu isize amarangi y'umuhondo, hanze haparitse imodoka, hari umuntu ufite umutaka, hari idarapo Ry'u Rwanda.

Abantu bicaye ahantu hamwe bambaye imyenda y'imyeru, ku meza hateretseho ipapuro cyifashishwa gukora isuku, hari icupa ririmo amavuta n'igikombe kirimo amazi.

Inzu isize amarange y'umuhondo hariho icyapa cyubatseho inzu y'ababyeyi, hariho igishushanyo cy'umugore utwite,

Icyumba kirimo igitanda kimwe bisa nkaho ari kwa muganga gishashe, iruhande rwaho hari aho bakarabira intoki, hari n'akandi kantu batamo imyanda.

Ndi kubona abantu bahagaze bakoze umurongo, imbere yabo hicaye abaganga, undi mugabo, undi muntu wicaye mu gatebe k'abafite ubumuga, imbere yabo hari intebe.

Abantu bahagaze hanze n'abandi babasutamye imbere, inzu y'ababyeyi iba irimo ababyeyi babyaye.

Agatanda ko kwa muganga, kari mu cyumba kimwe, hejuru yayo hejuru y'ako gatanda hamanitse amatara manini yifashishwa bamurika iyo bari kuvura.

Mu cyumba kirimo igitanda gishasheho ishuka y'ubururu kiriho umusego w'umweru, ku bikuta hagiye hariho udushushanyo tw'abana, harimo televiziyo,...

Turabona abantu bahagaze, imyenda y'ubururu bose bambaye udupfukamunwa bazamuye amaboko yabo bafunze igipfunsi.

Umuntu wicaye, yahinnye amaguru ye yayasobekeranyije ari gukora siporo, ukuboko kumwe gufashe hasi, ari kwinanura azamura ukuboko kundi, iruhande rwe hateretse icupa ririmo amazi.

Intebe yifashishwa n'umuntu ufite ubumuga, utabasha kugenda, akayikoresha yicaye, ayigenderamo.

Umuntu, umugabo uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi w'icyatsi, ufite umupira bifashisha bakina w'amaguru.

Umuntu wicaye, uri gukora siporo ahinnye amavi, yahinnye amaguruye, yamanuye n'amaboko yayafatishije munsi y'ibirenge, iruhande rwe hateretse intebe.

Uyu ni umugabo wicaye wambaye umupira wa buresiyeri usa nk'uri kunywa amazi, nk'umuntu wari uri muri siporo.

Umuntu uri gusuka amazi mu gikombe, ayakura mu icupa.

Abagabo batatu bambaye imyenda y'ubururu, n'umupira w'umweru n'undi wambaye umupira w'umutuku, wambaye ingofero basa nk'abantu bambaye bari gukirana.

Imbuto ziri ahantu hamwe zitandukanye, harimo inyeri, amaronji, igikombe kirimo jus n'amazi ari mu gikombe, hari n'ubunyobwa budatonoye.

Umuntu wicaye hasi yahinnye ukuguru kwe kumwe ukundi kurarambuye. Arikurambura amaboko ayakoza ku kuguru kurambuye. Yambaye kuteri yubitse umutwe. Iruhande rwe hateretse icupa ry'amazi.

Hano hari muntu uri gukora siporo yashinze ivi yarambuye ukundi kuguru, yarambuye amaboko ayarebesha hejuru mu kirere.

Umugabo uri muri siporo wambaye umupira w'amaboko magufi, uri kunanura amaboko.

Ndabona umuntu uryamye agaramye, asa nkaho bari kumukoresha siporo cyangwa se bari kumugorora amaguru.

Uducupa dutatu dutandukanye tw'umweru, twanditseho andi magambo akoresheje andi mabara, ateretse ahantu hamwe.

Kumeza hateretse tangawizi, n'ibindi bibabi by'icyatsi kibisi, hari agakombe k'ikiyiko.

Igiti gifite ibibabi by'icyatsi, biriho amahuhwezi y'imvura.

Ndi kubona amacupa ane atandukanye, irifite umufuniko wa oranje, n'irindi rifite umufuniko w'umuhondo, umuvuniko wa shokora bisa nk'aho ari amavuta yo kwisiga.